Umucuruzi w'amatelefoni wabigize umwuga agomba kugira ahantu heza habikwa telefone ze cyane cyane hari ibirahure birimo n'amatara amurika izo telefoni zikagaragara kubera ko bituma abantu batazimwiba.

Umukozi wa MTN agomba kuba ari ahantu hagaragaza ko akorera iryo tsinda akaba yahabwa nk'akazu kamurinda imvura ndetse n'abantu bakamenya ko aho ariho akorera atajya ahindagura.

Ni byiza ko umuntu yihangira imirimo, cyane cyane nko kuba yacuruza amayinite ndetse iruhande rw'umutaka ugaragaza ko acuruza amayinite, akaba yashyiramo n'utundi tuntu abantu bakeneye.

Ni byizayiza ko umukozi wa companyi runaka agomba gutanga serivisi neza kandi yishimye kugira ngo umukiriya uyihawe atahe anyuzwe kandi n'ubutaha azagaruke.

Kampani icuruza amayinite ya Airtel, yagaragaje ko ifite imbaraga na yo kuko igihugu cyose yarakigabije ndetse isigaye igira n'abakozi benshi.

Bamwe mu bakozi bahembwa amafaranga menshi, ni bamwe bakorera kampani za MTN kubera yuko aba ngaba baba ari n'abavugizi, bagenda bayamamariza ibikorwa byayo, bagomba guhembwa rero, bikwiranye n'ibyo baba bakoze.

Abakiriya bakoresha simukadizigiye zitandu z'aya ma kampanyi, bagomba kuba barabaye abakiriya bayo koko bigatuma izo kampanyi zinjiza amafaranga aturutse muri abo bantu.

Abagore na bo barajijutse bamenya ko ibihingwa byose ndetse n'ubuhinzi bwose atari ibintu bireba abagabo gusa ahubwo na bo bamenye umuco wo kwibumbira mu matsinda bakaba bafashanya.

Mu gihe itsinda runaka ryibumbiye hamwe rikagera kuri byinshi ribikoze neza, rigomba guhembwa igihembo k'ishimwe kigaragaza ko bitwaye neza kandi bagakorera hamwe.

Twakunze kumenya ko kampani ya MTN, ikunze gushyiraho ibikorwa bishimisha abakiriya nko kuba yarashyizeho biva mu mutima, iyo akaba ari paka abantu bagura kandi bagahamagara inshuti zabo, igihe kirekire.

Niba ibyo wahinze byeze ufata umunsi ukaza kubisarura kandi ukishimira umusaruro wawe kuko biba byaravuye mu mbaraga zawe, ari nta wundi wabigizemo uruhare.

Mu gihe watekereje umushinga wo korora inkoko, ukawiga neza ntushobora kugohombya kubera yuko ziri mu matungo yororoka vuba kandi agatanga amafaranga ahagije.

Ubundi kera umugore atarahabwa ijambo, wasangaga abagabo aribo bibumbira mu makoperative gusa ariko n'abagore bamaze kumenya iryo banga, ubu ntibasubiye inyuma cyangwa ngo barekere abagabo izo nshingano zose, ahubwo bafatanyirije hamwe nabo kwiteza imbere.

Mbere y'uko hafatwa imyanzuro runaka usanga abayobozi bicaye hamwe bakaganira ku ngingo bashaka kuganiraho bagatanga ibitekerezo ndetse bakava aho banafashe imyanzuro ikwiye.

Ni ingenzi ko umudugudu uba ufite ahantu h'ubuhunikiro bw'imyaka kubera ko iyo imyaka yeze ari myinshi tubasha no gusagurira amasoko ariko tukaba twizeye ko aho byabitswe hari ubuziranenge bitakangirika.

Abantu bakorera hamwe bagomba kugera ku iterambere mu buryo bwihuse kubera ko iyo mwishyize hamwe mukora ibintu byinshi kandi mu gihe gitoya ugereranyije nuko wabikora uri umwe.

Igihe cyose umuntu akoze neza agomba kubishimirwa kubera yuko abakozi bose atari ko bakora neza kandi niba umuntu yakoze neza agomba no kubihemberwa.

Gukorera mu makoperative bishobora gutuma umuturage yiteza imbere ku ruhande rwe ndetse agateza imbere na bagenzi be kubera yuko iyo abantu bafatanije nta kintu batabasha kugeraho.

Si byiza ko umucuruzi anyanyagiza amacupa ahantu ariho hose ahubwo agomba kujya agira aho ayabika cyane cyane nk'ibikoresho byabugenewe kugira ngo yereguteza umwanda.

Ntako bisa nko kugera muri bare ukakirwa neza, ugahabwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, warangiza ukaganira igihe wazanye n'uwo muganira.

Iyo umuturage cyangwa undi muntu uwo ari we wese yinjiye mu kabari ahabona intebe zitonze ku murongo kandi ziri mu buryo busa n'aho haganirira abantu bari no kwifatira icyo kunywa cyangwa icyo kurya.

Byakunze kugaragara ko inzoga zabaye nyinshi ndetse zifite amoko agiye atandukanye ariko abazinywa ni bo bakunze kumenya buri bwoko bw'inzoga, si ibya buri wese kubimenya.

Burya ni byiza ko umuntu ufite butike ye agomba kuba afite n'ahantu yandika amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse kugira ngo bimufashe kumenya urwego rw'uburyo yungukaho muri buzinesi ye.

Iyo umusaruro wamaze gukurwa mu murima, ugapangwa neza mu mifuka, hazanwa imodoka igomba kuwushyikiriza ku masoko kugira ngo umuntu wese abe yakwisangamo na we yihahire.

Niba ufite botike igemura ibintu, biba akarusho iyo serivisi z'umuntu uguze ibintu byinshi zimworohera ukaba wamutwaza, ukamugereza iwe aho atuye kuko bituma aho hantu agumya ahakura serivisi ndetse akakwishyura.

Insengero burya ni inyubako zishyirwamo amafaranga menshi cyane cyane abakirisito kuko baba bitanze bikomeye ariko kubera ko baba bafite umutima ukunze ni ibintu byoroha barafatanya.

Abakirisito iyo bashyize hamwe usanga bubatse igikorwaremezo cy'urusengero kigari kandi gitwaye amafaranga menshi ariko kubera ko baba bahuje ndetse banatekereza kimwe, ibi barabikora bakanabigeraho.

Byakunze kugaragara ko abaturage benshi bakunda gusenga ndetse bashobora gushyira imbaraga zikomeye mu kubaka ibikorwa remezo birimo nk'insengero kubera yuko ari cyo kintu bakunda mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Usanga serivisi zo kugana insengero ari imwe muri serivisi zitabirwa n'abantu benshi cyane cyane a b'abakristo kubera y'uko bamenye uwabacunguye ndetse bakaba banamwizera.

Ni byiza ko abaturage bamaze kugera mu kigero cyo hejuru mu myaka, tubererekera ibijyanye n'ikoranabuhanga rya telefoni ku buryo no mu rusengero babasha kwiturira bakoresheje telefone.

Iyo abantu bari mu rusengero baba batuje ndetse ubona ko baciye bugufi bose ibyubahiro bakabirambika hasi, ubundi bagasenga Imana yabo yonyine yabazanye muri urwo rusengero kandi baba bafite n'umutima utuje.

Iyo itorero ryafunguye rigiye gutangira gukora bushya, rigomba kubitangaza ku mugaragaro ko ryafunguye kugira ngo abantu batangire bariyoboke, baze bisengere kubera ko ntawe uba uhejwe.

Niwigisha abana batoya ukoresheje ibishushanyo nko kuba wabigisha ukoresheje utunyamaswa, bituma babyumva neza kandi uburyo bwiza bundi ni ukuba babashyira mu matsinda, bakaganira ku bigendanye n'amafoto babonye.

Mu bihe bya Korona Virusi wasangaga umuntu yicaye atandukanye n'undi cyane kubera yuko hari haraje ingamba zikomeye zirimo ko umuntu atakegerana n'undi kuko batekerezaga ko bakanduzanya.

Mu nsengero nyinshi ziba zifite abayobozi bazo ndetse ugasanga igihe umuyobozi ari kubwira Abakirisito, bose baba bamuteze amatwi, ariwe bahanzeho amaso kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira.

Umuhango wo gusengera umushumba w'Ururembo rwa Nyagatare n'abashumba ba paruwasi, ukorwa gusa n'Abakristu ndetse n'abandi bayobozi bakomeye, buri mwaka uko hagiyeho indi manda nshyashya.

Iyo ufashe inyubako igerekanije ukayituza ahantu hegereye pisine, nta kuntu biba bisa. Aba ari ibintu byiza kuri buri wese uhageze ndetse akanashishikariza abandi kuzahagera ngo yirebereye.

Burya ibikorwaremezo birimo iby'imyidagaduro, ni byiza ko biboneka ahantu hakorerwa amahoteli n'ibindi bintu bitandukanye kubera ko iyo abantu bamaze kunanirwa usanga bajya muri ayo ma pisine bakiyogera.

Ugomba gufata utuntu dusa neza ukadushyira aho ukorera ibikorwa byawe. Niba utanga serivisi zituma abakerarugendo baza, ugomba nawe kugira ibintu uhashyira bizajya bibakurura buri kanya.

Ubusitani bwiza ndetse n'indabo zibuzengurutse na byo bigaragaza ahantu neza kuko bikunze gushyirwa kwa muganga, mu mashuri n'ahandi no mu mahoteli kugira ngo habe hasa neza.

Iyo ahantu hakeye, hari ibintu byose bikenewe ntacyabuza umuntu kuhagana ndetse n'iyo yaba ari serivisi isaba ko yishyura, arayishyura ariko abantu bakunda ibintu bikeya, bifite isuku ndetse binagaragara neza.

Abantu bifitiye amafaranga yabo ntibashobora kurya ahantu aho ariho hose babonye, ahubwo bajya ahantu bateka neza cyane nko mu mahoteli, maze bakiha ibyo bashatse byose kuko baba biyishyuriye.

Iyo ugeze mu mahoteli usanga hari uburiri buteguye neza, akenshi bakunze kubuteguriraho amashuka asa umweru kubera yuko abantu basirimutse bakunda ibintu by'umweru cyane.

Ahantu hari amaresitora bigomba kuba byanditseho ndetse n'ahari amacumbi byibura hagashushanywaho igitanda n'andi magambo yerekana ko hantu hari amacumbi yo kuraramo.

Amazu agerekanye, ni amazu akunze kugaragara mu mijyi cyane cyane kubera y'uko mu byaro, bakunze kumva ko atari ngombwa gutakaza ayo mafaranga yose ahubwo bayakoramo ibindi bikorwa, birimo iby'ubuhinzi.

Inyubako nziza ndende kandi zisa neza zifite n'ubusitani bwiza, zikunze gukururira abantu kuba bazisura ndetse bagatanga n'amafaranga yabo bakora ibikorwa bigiye bitandukanye bizikorerwamo.

Uburyamo bwiza ndetse n'isuku n'utuntu turi ku murongo, ni kimwe mu bigaragaza hoteri nziza ndetse yakira n'abantu bihariye, ubona ko bishoboye bafite n'amafaranga.

Mu gihe witeguye inama cyangwa se abandi bantu bari buze guterana ari benshi, ugomba kuhashyira intebe zabugenewe maze bakaza kwicara aho hantu, bakaganira icyo bifuzaga kuba baganiraho.

Buri gihe umuntu watekereje umushinga we neza, akubaka hoteli ntashobora guhomba kubera yuko abakerarugendo bazigana cyane kandi ugomba kuhashyira utuntu twiza tuzatuma bagaruka.

Ibyiza nyaburanga byo ntibyabuze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera yuko ari byo bashyizemo imbaraga kugira ngo abanyamahanga bage baza kwisurira u Rwanda ibyo kugira ngo rumenyekane.

Gutera udutebe hanze n'imitaka ndetse aho hantu akaba hegereye pisine bigaragara nk'ahantu heza umuntu yaruhukira igihe yumva ananiwe akahafatira n'icyo kunywa kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ni byiza ko amahoteli ndetse n'ahandi hantu muri rusange hahurira abantu benshi hagomba kuba harimo robine y'amazi kugira ngo bajye bayakoresha, bitabasabye gukora ingendo ndende bajya kuyavoma.

Byakunze kugaragara ko ubwiherero bugezweho ari bumwe mu bukurura abantu benshi kuba bakunda ako gace runaka aho kugira ngo habe hari ubwiherero bumwe buteza umwanda.

Iyo ugeze mu iduka ricuruza ibitenge wihahiramo icyo ushaka bitewe n'ubushobozi bwawe kubera ko ukunda gusanga amoko yose ahari, haba ibikomeye n'ibiri munsi yabyo gato ndetse n'ibihwanye n'amafaranga umuntu woroheje aba afite.

Abaturage bakunze kugira ikibazo cyo kwegerezwa amasoko, bityo ibicuruzwa byabo ugasanga babyigumanira nyamara bakabijyanye mu masoko bakabibyaza umusaruro, bakibonera amafaranga abatunga.

Isoko ririmo akavuyo riba risa nabi, niyo mpamvu abaturage bakunze gutanga ikibazo cy'uko badafite ahantu bacururiza maze Leta y'u Rwanda yamara kubyigaho, ikabaha ahantu habakwiriye.

Ni byiza ko buri muntu wese ucuruza mu isoko runaka, agomba kuba afite agace abarizwamo, ku buryo umukiriya wese uje umugana, amenya aho amushakira.

Iyo umucuruzi ashaka kunguka mu buryo bwihuse na we hari amafaranga ashora akabanza kurangura ibyo azacuruza nyuma akagenda abyungukamo gake gake na we agatera imbere nk'abandi.

Inyuma y'isoko hakunze kuba hari ahantu baparikira amamodoka ndetse n'amagare menshi hakaba hari n'ushinzwe umutekano wayo baba bari bwishyure amafaranga kugira ngo basange amagare yabo cyangwa imodoka zabo ari nta wazihungabanyije.

Ibitunguru ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu kubera ko bizwi neza ko mu karere ka Nyagatare ntushobora kubona umuntu abura ibitunguru ku ifunguro rye rya buri munsi, babigize umuco.

Burya gucuruza mu isoko rihuriwemo abantu benshi, bisaba ubwitonzi bukomeye cyane kubera yuko iyo urangaye bashobora kuba bakwibira ibintu byawe kandi ibyo byagushyira mu gihombo gikomeye.

Ubuhinzi bw'ibitoki bwakunze kugaragara ko bugira amafaranga menshi cyane kubera yuko mu Intara y'Iburasirazuba, ari yo ntara igemurira izindi zose ugereranije mu gihugu.

Mu masoko adasakaye ni byiza ko umucuruzi aba yifitiye umutaka we kuko aba atazi niba hari bwake izuba ryinshi uwo munsi, cyangwa se hari bugwe n'imvura.

Abaturage bakunze kugira ikibazo cy'aho bagurisha imyaka yabo igihe ye ari myinshi, nyamara ibi biri gushyirwamo imbaraga na Leta y'u Rwanda kubera ko bashaka iterambere ry'umucuruzi ndetse n'ubuhinzi.

Iyo resitora irimo akajagari ibikoresho byabo bipanze nabi, usanga ari nta muntu wongera kuhagaruka kubera ko abantu burya benshi twikundira ibintu biri ku murongo kandi bisa neza.

Biba ari byiza kujya kwaka serivisi muri resitora ukaba wayibona, kubera yuko birababaza kugenda hanyuma wagerayo icyo ushaka ugasanga ntagihari, uhita wumva utazahagaruka.

Amaresitora menshi akunda kuba amurikirwa ni joro kandi amatara y'amabara agiye atandukanye ndetse akaba afite n'ahantu heza abantu bakicara bakaganirira.

Si byiza ko umutwazi wa moto ayipakiraho ibintu biremereye biyirusha ubushobozi kubera ko ashobora guteza impanuka mu muhanda, kandi buri wese agomba kubera ijisho mugenzi we.

Abamotari batwara ababyeyi cyane cyane batwite, bajye bitwararika kubera ko ubuhetse abantu babiri nyamara ukoza impanuka waba wangije ubuzima bw'abantu babiri. Niyo mpamvu bagomba kwitwararika.

Nyamuneka abantu batwara ibinyabiziga bajye bitonda kubera ko mu muhanda habera byinshi ariko umuyobozi w'ikinyabiziga niwe umenya ibyo byinshi uburyo abyitwaramo kandi aba yarabyigiye abifitiye n'ubumenyi.

umumotari agomba kwita mu mikoreshereze y'ikinyabiziga cye igihe ari mu muhanda usangiwe na benshi, kubera y'uko impanuka zikunze kuba ziterwa n'uburangare bw'abayobozi b'ikinyabiziga akenshi.

Si byiza ko abamotari bagenda mu muhanda baringaniye kubera ko baba bafashe umuhanda munini kandi bakirengagiza ko umuhanda atari bo bonyine bawukoresha, ni byiza ko bakurikiza ayo mabwiriza.

Uburyo bwo koroshya ingendo kubera y'uko tuzi ko amaguru yacu atakora urugendo rurerure twifashisha abamotari tukaba twabaha amafaranga nabo bakaduha serivisi y'urugendo bakatugeza aho dushaka kugera kandi mu buryo bworoshye.